Ni umurima uhinzemo ibigori, hari umuntu uri gucukira, hari umurima barimo guhinga bakoresheje mashini, hari n'abantu bahagaze, harya hari ishyamba n'ibiti n'amazi arimo gutemba agenda mu bibaya.

Ni muri farumasi harimo imiti y'ubwoko bugiye butandukanye bifashisha abari mu buhinzi hariho n'igikoresho k'icyuma bifashisha barimo kuhira ibimera bihinzwe mu murima.

Ni umurima, uri mu kibaya, uhinzemo umuceri, harimo umuntu, urimo kuwucucira akoresheje icyuma agihetse, hirya yaho hari ibiti bihari.

Aya ni amaherena menshi ari mu shashi. Hirya y'aho hari ibikoresho bifashisha bari gutera amaherena ku matungo agiye atandukanye. Bashyiraho ibimenyetso.

Izi ni sitoke z'imiti, hejuru hari ipamba hari ibikarito birimo imiti, hari igikarito kirimo ga no hasi hakabamo ibindi bikarito birimo imiti.

Iruhande ndi kubona ari mu kibaya kirimo udusozi mo, hakabamo utuzu turi gucumbamo umwotsi, hirya yaho hakabamo ibiti, hiryakaba ikirere kijimye,

Ni ishyamba ririmo uduce duto dutandukanye, turimo ibiti bigiye bitandukanye aribyo by'umukara n'ibindi bijya kumera nk'icyatsi cyangwa umuhondo.

Uyu ni umukumbi w'intama, harimo umushumba uragira intama, harimo intama, harimo n'ubwatsi zirimo kurisha.

Iyi n inzu y'inkoko harimo imbabura, harimo inkoko, harimo icyo kunyweramo n'icyo kuriramo, n'aho batereka ibyo kurya by'inkoko biri mu mufuka, harimo n'inkoni.

Ni inyoni z'inyamaswa zo mu ishyamba, ebyiri ziri zirateganye iri kureba n'indi ifunguye umunwa, indi iri yonyine ihagaze kuri sima.